Aabasore babiri bicaye ku muhanda umwe yambaye ijiri y'umuhondo kandi ari mu mutaka, undi yambaye ijiri itukura yegamye ku kazu, hirya y'akazu hari imodoka, igare n'abantu ndetse hari n'igipangu.